Umugabo uri gutera umuti kugira ngo igihingwa kibashe kumera neza ndetse n'umusaruro wiyongere, aho uyu muti wongera umusaruro kandi ukica n'udukoko tujya ku bibabi kugira ngo ibibabi bikomeze kumera neza aribyo bivamo umusaruro.

Umwuga w'ubuhinzi, umugabo arimo guteramo umuti kugira ngo ibihingwa bimere neza, uyu muti utuma ibihingwa bigira ibibabi byiza n'udusimba twari turiho tukavaho.

Abagabo batatu bahetse ibikoresho birimo umuti, ni umuti wifashishwa mu kuvura ibimera, mu kurwanya udusimba turi ku bimera cyangwa kuvura ibindi bibazo ibimera biba byagize.

Ibihingwa byakuze ndetse n'umuntu uhetse igikoresho gitera umuti mu bihingwa. Umuti ufasha ibihingwa kuvaho udukoko ndetse no kugira ibibabi ibyiza ndetse bikaba na kimwe mu bifasha umusaruro kugira ngo wiyongere.

Abantu barimo kuroba amafi cyangwa ibindi bintu bikurura mu mazi, wabifata nka kimwe mu bintu by'igihingwa ariko ubuhinzi bukorerwa mu mazi, aho bafata ingemwe cyangwa utundi tuntu dukura nk'amafi bakayamena ahantu bacukuye ikinogo kirimo amazi, kugira ngo amafi akuriremo bazayakuremo yarakuze.

Abantu bane bahagaze mu mazi bari gukora igikorwa cyo kuroba amafi, aho banaga inshudura mu mazi maze bakazamuramo harimo amafi, amafi aba ari ubwoko butandukanye, hari ubwo aba ari amafi asanzwe cyangwa ari andi mafi matoya wakwita nk'indagara cyangwa isambaza.

Ibinogo byinshi kandi birimo amazi. Bikoreshwa mu bworozi bw'amafi. Umugabo wambaye bote ndetse n'indi myenda y'umupira w'icyatsi n'ipantaro y'ubururu. Arimo kunagamo ingemwe z'amafi kugira ngo zizakuriremo. Ni umushinga ngandurabukungu w'ubworozi bw'amafi bugezweho.

Ahantu mu gishanga cyangwa se mu gikombe bororera ubworozi bw'amafi, aho baca ibinogo birebire bagashyiramo ingemwe z'amafi zigakuriramo ibyo binogo ni bitatu.

Ahantu hitaruye kandi hari ikirere kiza, hari igihingwa ngandurabukungu kitwa icyari, ni icyari kimeze neza kiri ahantu hanini, kirasa nk'ikeze ku buryo cyasarurwa.

Ahantu hitaruye kandi mu kibaya, harimo igihingwa ngandurabukungu kitwa icyayi aho kiri hagati y'umusozi umwe n'uwundi, ni icyayi kimeze neza cyenda kwera aho baba bari hafi kugisarura.

Umudamu ndetse uhetse aka umugongo wasaruriramo. Ari mu bihingwa by'icyayi. Ni umudamu wishimye, ameze nk'umuntu ugiye cyangwa uvuye gusarura icyayi. Ni ahantu mu cyayi, hakurya hitegeye hari amashyamba ndetse n'imisozi.

Umusaruro w'ikawa, ikawa nyinshi iyo zeze ziba zisa n'umutuku, abantu barimo gutoranyamo ikawa nzima n'izapfuye bakazitandukanya kugira ngo bagurishe ikawa nzima, ikawa zapfuye bari kuzishyira mu ibasi noneho inzima bakazigumisha hasi.

Abantu babiri bari mu murima uhinzemo icyayi. Barimo gusarura bashyira mugongo inyuma umusaruro w'icyayi wabonetse. Kandi ni igihingwa basaruraho kikongera myuma kikera utagombye kongera kugitera.

Abantu bari mu gikorwa ngandurabukungu barimo gusarura icyayi, icyayi kirezi, ni abantu bane batanu gutyo bari ahantu ku musozi hitengeye bari gusarura icyayi.

Ikawa yeze ndetse hakaba harimo n'itezi, izeze ziba zisa umutuku, iziteze icyatse, aha zeze zisa umutuku zirasarurwa zikagurishwa, noneho iz'icyatsi bagategereza nazo zikazatukura, bakabona kuzisarura.

Mu bahinzi bane harimo umugabo umwe n'abadamu batatu barimo kubagabira umuceri, aho umuceri uboneka mu gishanga cyangwa ahantu hari amazi kuko umuceri werera ahantu harimo amazi kandi umuceri uri mu mazi, aba badamu rero n'abagabo barimo kubagara mu muceri.

Ahantu hitaruye hari ubuso bunini bwahinzwemo icyayi, aho abantu barimo kugisarura kimwe cyeze ikindi kitarera. Bafite ibikoresho mu mugongo bashyiramo icyayi, kugira ngo gitangirika.

Umusaruro w'ikawa zeze neza ziri mu mabara y'umutuku, aho bashyize bazishyize mu gakoresho babikamo ikawa cyangwa wahashyiramo n'ibindi bikoresho bitandukanye, nk'agatebo cyangwa ibindi bikoresho barimo gusaruramo ikawa, kugira ngo zibashe kugurishwa.

Ubuhinzi bw'icyayi kimwe mu buhinzi ngandurabukungu, abantu barishimye barimo ku gisarura cyareze, kiri ahantu heza ku butumburuke ku musozi, abantu bose barishimye bari kugisarura.

Igihingwa cy'ikawa harimo izeze ntiziteze. Imbere yaho gato hari insina ivamo ibitoki kandi iyi kawa iteye uruhande rw'inzu, ahantu hose ikawa yegereye inzu ndetse n'urutoki rwegereye inzu, aho amakoma y'insina ari gukora hejuru ku nzu.

Umudamu wishimye wambaye umwenda w'icyatsi ndetse wakinnye n'nigitambararo umutwe, n'ishati y'umutuku, arishimye ikirere ni cyiza, arimo gusarura icyayi ndetse icyo yasaruye akagishyira mu mugongo inyuma, aho washyira umusaruro kugirango utangirika.

Umuntu afite ikawa mu ntoki, ikawa yeze neza kandi yasaruwe ndetse imbere ye hari indi kawa iteze y'icyatsi, ikawasa y'umutuku niyo iba yeze ndetse ikawa y'icyatsi iba itaragera igihe cyo gusarurwa. Iyo ugiye gusarurura, usarura iyo umutuku, iy'icyatsi ukaba uyiretse.

Ihuriro ry'imiti myinshi itandukanye y'amatungo, harimo imiti ivura inkoko ndetse n'ihene n'izindi nyamaswa nyinshi ziri mu makarito atandukanye, hari amakarito asa umweru ubururu n'umutuku.

Imiti ivura amatungo, harimo nk'izimi ivura inka, amahene, ingurube n'inkoko, n'anani matungo yose akenera ubuvuzi, cyane cyane amatungo yo mu rugo, abantu babikoramo baba barize ibintu bijyanye na veterineri, ubuvuzi bw'amatungo.

Umuti uvura amatungo uri mu bwoko bw'amatembabuzi, aho uhabwa amatungo binyuze mu gutera urushinge inka, mu gihe yaba arwaye indwara zigiye zitandukanye, harimo nk'inzoka ndetse na vitamine, mu bituma inka imererwa neza cyangwa n'andi matungo muri rusange.

Imiti yo mu bwoko butandukanye y'amatungo magufi cyangwa maremare, aho yifashishwa mu kuvura amatungo cyangwa kongera vitamine y'amatungo. Cyane cyane ariko imiti ivura amatungo, bayavura bifashishije inshinge aho imiti amatembabuzi bayitera mu matungo mu nshinge cyangwa se bagakoresha ubundi buryo bugiye butandukanye mu kuvura amatungo.

Ahantu heza hari ibihingwa bitandukanye, harimo amashu, ibigori ndetse n'urutoki, aho umugabo yaje gusarura amashu, afate ishu mu ntoki ndetse n'umuhoro yaparitse n'igare ari butwareho umusaruro cyangwa ryamufashije kuza kureba aho ubuhinzi bwe bugeze.

Ahantu hitaruye mu gisambu, umugabo afite igare apakiyeho ubwatsi bw'amatingo, aho yororera amatungo mu rugo akajya kushakira ubwatsi mu gasozi akayazanira mu rugo akarya.

Abantu barimo abagore n'abagabo, bari imbere y'umusaruro w'ipapayi. Ni ipapayi ifite umusaruro mwinshi uhagije, ni kimwe mu byifashishwa mu buhinzi ngandurabuku, aho umuntu ahitamo guhinga imbuto. Uru ni urubuto rw'ipapayi rufite umusaruro uhagije.

Abantu babiri, bari mu gihingwa cy'amashu. Umwe afite ishu, undi mudamu we ntashu afite. Ni abantu bahinze amashu. Amashu areze, inyuma yaho hari ibindi bihingwa, nk'ibigori ndetse n'insina.

nO gucuruza ibiribwa bituruka mu buhinzi aribyo byitwa ibirayi. Afite umunzani niwacururizaho apima ibiro ku biro ahereza abakiriya. Ibi ngibi abikura aho byahingiwe akabizana ku isoko kugira ngo abyeyegereze abaturage babone aho babigurira.

Abantu benshi bahuriye hamwe nk'ahantu kuri pipinieri, aho bakura imyaka baba barateye mu buryo bw'ingemwe, noneho bakajya kuyihinga mu buryo bwo gukuramo umusaruro, ariko ahangaha, ni ahantu baba barateye ingemwe zigakura wabyita nka pipiinieri.

Ahantu heza ,ikirere cyiza, nta mvura iri kugwa, umuntu ari munsi y'inka ari gukama inka ,amata, ayo mata ashobora kwifashishwa mu kuyanywa ari ikivuguto cyangwa se ukayanywa ari inshyushyu.

Inka ebyiri ndetse n'abashumba bari mu nzira, umushumba arazishoreye azijyanye kurisha cyangwa kuziragira. Ni abashumba babiri, umwe ni umuntu mukuru, undi ni umwana uri inyuma. Umushumba afite inkoni bari mu nzira yegeranye irimo ubwatsi, aho inka zigenda zirisha agiye kuziragira.

Ahantu hitegeye hameze nko mu gishanga, abantu bari mu mirimo itandukanye, bameze nk'abari guhinga umuceri cyangwa kubagara, ni ahantu hagaragara nk'ahahingwa umuceri ndetse imirima imwe igiye irimo igihingwa cy'umuceri.

Imboga, imboga zatewe kandi ziri hamwe, ni kimwe mu buhinzi bw'imboga bugezweho, aho imboga zikoreshwa nko mu bucuruzi ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye, abantu na bo bakazirya.

Imbuto zitandukanye harimo n'imboga, aho umuzungu afite imbuto harimo umwembe, karotipavuro ndetse n'akandi kantu ufite ku ruhande.

Igikorwa cy'ubuhinzi, umudamu uri mu myaka yahinze imyaka igaragara ko ari ibigori ,byenda kwera birimo ikigero cyo kuba biri hafi gusarurwa, mubyeyi wishimye, harimo kugenzura ko imyaka ye imeze neza, aribyo bigori byifashishwa mu bikorwa bitandukanye, harimo nko kuba havamo igikoma, amakawunga ndetse n'ibindi bitandukanye

Imbuto zigiye zitandukanye. Harimo ibinyomoro, imyembe, ibigori, icyayi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Igihingwa cy'umwumbati, umwumbati wakuze neza kandi nyuma yaho hari iyindi myumbati, harimo n'ibishyimbo birimo kumera, ni imyumbati iteye mu buryo butandukanye, bwakitwa nk'amahunge kugira ngo izabashe kwera yisanzuye.

Ikibaya ahantu hitaruye, ho hagenewe ubuhinzi harimo imyaka, nk'ibishyimbo ndetse harimo n'amashanyarazi, biragaragara ko hari guteganywa n'igikorwa cy'uko bazahubaka cyangwa bazagira icyo gikorwa bahakorera.

Igihingwa cy'ibirayi ni ibirayi bitatu kandi byeze neza biri ahantu hamwe binini bisa umuhondo, ni ibirayi byavamo ifiriti cyangwa ukabiteka mu buryo butandukanye, bikunda kwera mu turere nka Musanze cyangwa utundi turere tugize amajyaruguru.

Ubuhinzi bw'umuceri, umuceri uri mu kigero cyo kuba wakera, bakabusarura nubwo harimo umwe na wo utameze neza utarera, ukunda kuboneka mu gishanga haba hari amazi.

Umuceri waraye, harimo ibyatsi byinshi cyane, umuhinzi arimo kugerageza kuwugirira neza, awukorera neza, awukuramo ibyatsi, mu kinyarwanda cyiza babyita kubagara, arimo kubagara umuceri kugira ngo ubashe gukora neza.

Ubuhinzi bw'imyumbati buteye mu buryo bw'amahunge. Aho usanga imyumbati yera ari minini cyane. Bakayitera bayitandukanyije, ku buryo hagati y'imyumbati n'indi bateramo indi myaka.

Ikimera kiri mu bwoko bw'imboga rwatsi, aho warwitiranya na dodo cyangwa izindi mbuga zitandukanye zifashishwa mu kurya, ariko urubuga rukaba rwitwa imbwija rukaba rutandukanye na dodo zisanzwe, akenshi uru ntabwo bakunda kurutera ahubwo rurimeza.

Igihingwa kitwa ikigori kigaragara neza ku keze, kirimo kikaba kifashishwa mu bintu bitandukanye harimo igikoma kawunga n'ibindi, ni igihingwa ubona kiri kumwe n'ibindi bihingwa bigiye bitandukanye.

Igihingwa cyitwa isombe, gikunda kuvamo isombe rino abantu barya, aho basarura ibibabi byayo, iyo byatoshye byakuze, bakabisekura cyangwa bakabisesha, bagakuramo isombe nyine iyi ngiyi iribwa.

Ahantu hitaruye habamo abaturage bake ndetse hakurya y'aho hakaba harimo amashyamba atandukanye, ni imisozi irimo n'ibibaya, ni ahantu heza hari ikirere kiza kimeze neza ndetse hakaba hatuye n'abaturage bake.

Ishyamba ryiza ryitaruye ririmo ibiti bitandukanye kandi byegeranye bimeze nk'ibya kimeza kandi hirya hari ikirere cyiza, nta mvura irimo kugwa, akazuba kameze neza, mukirere cyiza cyane, ishyamba riri ahantu ryitegeye kandi rinini cyane.

Ahantu heza hitaruye, hari icye cyiza, harimo urutoki rwiza, ruri ku buso buninikara ndetse n'ishyamba ririmo ibiti birebire, harimo inturusu ndetse n'ibindi bimera byifashishwa kugira ngo ishyamba ribe ryamera neza, harimo nka gerevariya ndetse n'ibindi.

Ahantu hitaruye, ku musozi, hari ibimera byinshi wakita nk'ishyamba cyangwa ibiti bitarakura neza ngo bijye hejuru, ahandi harimo ibihingwa bijya kumera nk'umuceri.

Ahantu hitaruye kandi hari ikirere cyiza, hakurya hari ishyamba ryiza, ntago ari rinini cyane ariko ni ishyamba riri ku murongo, hepfo yaho hari umurima, umeze nk'aho uhingwa ndetse n'ibindi bimera bigiye bitandukanye.

Umusozi urimo ibiti by'ishyamba ariko bikiri bitoya bitarakura ndetse n'ibinogo bigiye bitandukanye, ibiti bigiye biri ahantu hagiye hatandukanye, hari aharimo ibyatsi bisanzwe ndetse hari n'ahari ibiti bitarakura neza, bigaragara ko ari ishyamba rigiye kuba ryakura ndetse rigafatana.

Ahantu hitaruye kandi hari ibiti bitandukanye, harimo akayira gato cyane kacamo nk'imodoka cyangwa abanyamaguru, byafatwa nk'ishyamba rigiye ritandukanye ririmo ibiti birebire ndetse n'ibindi bimera bigufi.

Ishyamba n'uruhurirane rw'ibiti byinshi birimo amoko atandukanye ubonako ugereranyije ryaba rimeze nk'ishyamba rya Nyungwe mu Rwanda, iri ngiri riri muri bimwe mu byakuru ba mukerarugendo ubonako ari ishyamba rya kimeza.

Ishyamba ririmo ibiti binini byavamo nk'imbaho ndetse n'ibindi bikiri bitoya. Harimo umugabo wambaye ikote ry'ubururu n'ipantaro y'umukara. Ni ibiti byakuze mu buryo butandukanye, ntabwo byegeranye cyane.

Amazi meza ahagaze kandi agatemba, akikijwe n'ibimera, ndetse ibi bimera bimeze nk'ishyamba rihakikije impande zose, n'ahantu hari ikirere cyiza bisa nkaho imvura igiye kugwa.

Umurima w'igikoni wubatse mu buryogataje, aho umuhinzi agashyira hafi y'urugo kugira ngo aga ateramo utuboga azajya yifashisha mu bu bwa buri munsi, harimo dodo n'utundi tuboga tugiye dutandukanye.

Umudamu uri mu buhinzi bw'imboga aho ari kwerekana umusaruro w'imboga arimo gusarura ndetse n'izindi mboga zikiri mu murima ziracyahari yasaruyeho nkeya ari kuzishyira mu gikoresho ari buzitwaremo.

Ubuhinzi bw'indabo ururabo rwiza rufite amabara y'umweru umuhondo n'icyatsi ibingibi ziraterwa, zikaba zanagurishwa, umuntu akaba yazitegura mu gihe afite nk'abashyitsi cyangwa afite ikirori.

Umusaruro w'imboga harimo betarave, karoti, amashumbu ndetse n'ibindi, uyu musaruro ukaba uturuka mu buhinzi bw'imboga, ukaba wifashishwa mu buryo nngandurabukungu, ukaba wanakifashishwa mu buryo umuntu yawukoresha mu gihe yejeje akaba yarya.

Ubuhinzi bw'imboga aho bateye imboga ku murongo imboga ziri ku ku murongo kandiba zaterewe rimwe, imboga zingana zaterewe rimwe kandi zikaba ziri ahantu heza hegereye ishyamba kandi mu kibaya.

Umusaruro w'inyanya, inyanya zibarwa nka kimwe mu bihingwa by'imboga, aho inyanya zasaruwe ziri mu gatebo cyangwa mu nteho, aho bazigurishiriza hari abantu babiri umudamu n'umugabo barimo kuzisuzuma.

Igihingwa kiza cyitwa inanasi, ni igihingwa kibarirwa mu kiciro cy'ibihingwa by'imbuto, ni igihingwa gikunze kwera ahantu hakeya mu gihugu, ntago kirasarurwa kiracyari mu murima.

Igihingwa cy'ipapayi, kiriho imbuto cyangwa kiri mu cyiciro cy'ibihingwa by'imbuto, imbuto ziriho nyinshi ariko ntago zirera, igihingwa cy'ipapayi inyuma yaho hari ibindi bimera bigiye bitandukana, gusa iyopapa yize ibisa n'umuhondo ariko iki giti cyo nta papayi iriho yeze.

Inyanya zasaruwe ndetse zikiri imbere y'umuma nta hantu barazijyana umudamu arimo kuzipakira kugira ngo bazijyane mu isoko, inyanya ni kimwe mu bihingwa bishyirwa mu kiciro k'imbuto cyangwa imboga aho cyane cyane zihingwa nka kimwe mu bintu bigandura ubukungu atari cya kintu bahinga kugira ngo barye gusa.

Ubuhinzi bw'imboga, harimo amashu n'izindi mboga zifashishwa mu guteka, harimo akantu k'umweru kifashishwa mu kubitwikira no kubibirinda izuba rikabije.

Voka nyinshi cyane zahurije hamwe nk'umushinga w'ubucuruzi, cyangwa kuba bazava mo ibindi bintu byifashishwa mu buzima bwa buri munsi, iz ni voka ziba zikiri mbisi batarakoresha.

Umugabo wambaye imyenda y'ubururu arimo kuvomerera imyaka yo mu bwoko bw'imboga, aho ari kuvomerera akoresheje uburyo bwa kizungu cyangwa ari gukoresha imashini ikurura amazi iyakura ahantu kure noneho ikayamwegereza ahantu ari, akavomereje imyaka ayegereye.

Umuntu urimo kuvomerera imyaka. Iyi myaka yakuze arimo gukoresha uburyo bwa kizungu, aho afata itiyo ndetse na moteri izana amazi igakurura amazi ikayizana mu itiyo mpaka itiyo igeze aho imyaka iri akavomerera yihagarariye adakoresheje bimwe mu bikoresho bya kinyarwanda.

Imashini zirimo kuvomerera imyaka, ni imashini zivomerrera imyaka ariko zikaba zikora mu buryo bwa kijyambere cyangwa uburyo bugezweho, ni imashini ziba zaratunganijwe n'abantu zigashyirwa mu murima kugira ngo zijye zivomerera bitagombye ko abantu bajya kuzivomeresha.

Abantu bane bari mu bihingwa ndetse bafite n' ibikoresho batunganyije byifashishwa mu kuvomerera imyaka kugira ngo irusheho kumera neza mu gihe ubutaka bwakomeye cyangwa amazi yashize mu butaka. IByo ngibyo bituma igihingwa kimererwa neza ndetse bigafatwa nka bimwe byongera umusaruro yaba izuba riva cyangwa imvura igwa.

Umudamu urimo kuvomerera imyaka ikiri mito, arimo gukoresha itiyo rizana amazi aho baba bashyize moteri imbere y'amazi, ikayakogota iyazana mu itiyo, kugira ngo itiyo ibashe kuvomera amazi bitagombye kujya bagenda bajya kuyakura ku ivomera.

Itiyo yifashishwa mu kuvomera imyaka aho bafata moteri bakayohereza ahantu hari amazi noneho amazi akaza mu itiyo akagera ahantu hahinze imyaka, itiyo rero ni yo bohereza mu murima, ni itiyo y'umweru ndetse irafunze aho bavoma amazi bakoresheje bayakuye mu itiyo.

Umugabo wambaye agapfukamunwa uri mu murima, uri kuvomerera imyaka. ari gukoresha buryo bugezweho cyangwa uburyo bwa kizungu, aho afata itiyo cyangwa umupira akawushyira mu mazi yakoresheje moteri, noneho umupira ukawuzana mu murima ari kuvomerera imyaka kugira ngo izongere umusaruro.

Umugabo arimo kuvomerera, ari kuvomerera mu buryo busanzwe bwa kinyarwanda, ntabwo ari ubwa kizungu aho ufata ibikoresho ukajya kwivomera amazi ukayazana ku bihingwa byawe, arimo kuvomerera ibihinga biri mu bwoko bw'imboga.

Umugabo wambaye umupira w'umuhondo, n'ipantaro y'umukara ari mu myaka y'ibihingwa y'ibihingwa byitwa ibigori, ahetse igikoresho cyifashishwa mu gutera umuti, kugira ngo ibibabi by'ibigoribashe gukura neza ndetse byirinde n'udukoko dutuma ibibabi bitamera neza.

Umuntu urimo kuvomera imyaka, ari gukoresha uburyo bugezweho bw'itiyo. Aho afata moteri akayijyana ku isoko y'amazi, noneho agafata itiyo, ikurura amazi akajyana mu murima akeneye kuvomerera. Arimo no kuvomerara imyaka.

Ahantu hari ibihingwa birimo kuvomererwa, mu by'ukuri birimo kuvomererwa hifashishijeje imashini cyangwa uburyo bwa kijyambere bwo kuvomererera, aho bashyizemowo ibikoresho byifashishwa kuvomera nk'amatiyo aho bivomerera imyaka abantu batagombye kuba barimo barimo kubikoraho n'amaboko.

Ahantu h'ubwiza nyaburanga hitegeye harimo ibintu bigiye bitandukanye, harimo inzu ndetse hakurya harimo ishyamba rinini cyane bigaragara ko ari kimeza ndetse rikaba ryanakurura ba mukerarugendo, hameze neza, ikirere kimeze neza imvura irashaka kugwa, ni ahantu heza cyane.

Imisozi irimo ibiti bigiye bitandukanye, insina ndetse ni ahantu hatuwe n'abantu bakeya, hari imisozi itari miremire, ikirere kirasa neza biragaragara ko ari mu mugihe cy'impeshyi ndetse utu duce dukunze kuboneka mu Burasirazuba ahantu haba hatari imisozi miremire.

Umugezi w'amazi aho ukikijwe n'ibimera n'ibiti birebire, hakurya hari indi misozi igiye tandukanye, harimo amashyamba n'ahantu hari ubutaka buhingwa, buvamo imyaka bagasarura, ahandi hari amashyamba.

Imisozi n'ibibaya ndetse bituyeho n'abantu ahandi hakurya harimo amashyamba ndetse abaturage baciye amaterasi kugira ngo arinde isuri rimanukana itaka mu gihe imvura yaguye.

Inka ebyiri ziri mu kiraro, ahantu bazororera ntizemerewe gusohoka, naho ziba zirara ni inka ebyiri z'inyana imwe irasa umweru, indi irasa umukara n'umweru.

Ubworozi bwa kijyambere aho umugabo wambaye imyenda y'impuzankano arimo kwita ku nkoko zubakiwe mu buryo bwa kijyambere, aho zigaburirwa naho ziba mu buryo buteye imbere ndetse zikanitabwaho ariho bazihera ibiryo ndetse n'ibindi bitandukanye.

Ihene nyinshi ziri hamwe kandi zifite amabara asa, ubworozi bw'amatungo aho umuntu yiyemeza korora itungo rimwe. Aya matungo ni ihene, hari abandi bantu bahagaze impande zayo basa nk'abashumba bazo cyangwa ba nyirazo.

Inkoko zimeze kimwe, inko kazi zirimo kurira ahabugenewe, aho umuntu uzororeye azana ibiryo mu kantu kabugenewe aho inkoko zitorera, zasoza zigasubira aho ziba.

Ihene zigiye zitandukanye ndetse ziri mu mabara atandukanye, harimo ihene nkuru n'intoya, harimo ihene zambaye amaherena, ihene z'umukara n'umweru ndetse n'ikigina no mu yandi mabara atandukanye, ni ihene zifashishwa mu bworozi ngandurabukungu.

Inka nyinshi zororewe ahantu hamwe, ndetse n'umuganga w'amatungo, ari kuzitaho azihereza ubuvuzi bw'ibanze, ndetse akaziziha n'ibituma inka zigira ubuzima bwiza. Ni ubworozi bw'amatungo bwa kijyambere aho ugira amatungo agira ubuvuzi bw'ibanze, kugira ngo bubashe gutanga umusaruro.

Inka iri mu kiraro aho bayororera, ifite iherena ry'umuhondo ku gutwi, irazitiye ntago yabasha gusohoka aho ikuriramo hano bakayihera ibyo kurya mu hano, ntago igjya isohoka.

Ingurube ziri ahantu hamwe. Ni nk'ikirugu bazubakiye kugira ngo zibemo, zimwe ziraryamye, indi ntabwo iryamye, ni ingurubeza zikiri ibibwana ziracyari ntoya, ingurube eshatu.

Ubworozi bw'inkoko zororewe hamwe, ni inkoko ziri mu moko atandukanye harimo n'amabara atandukanye, harimo isake n'inkokokazi, harimo kandi inkoko zisa umukara, ikigina ndetse n'ayandi mabara atandukanye, ni inkoko zororerwa hamwe kandi bazihera n'ibiryo aho ngaho ziba.

Inka yororerwa mu rugo ni inka iba itemerewe gusohoka ngo ijye kurishiriza hanze, aho umushumba ajya kuyarira ubwatsi akayizana mu rugo, inka iri mu rugo rero aho igomba kurara cyangwa kuba bayizaniye ubwatsi irimo kurisha, ni inka nziza cyane.

Ishyo ry'inka ndetse ziri mu bwoko butandukanye ndetse n'abantu bazirimo bari mu cyiciro kimwe cy'abashumba, baba bazirongoye aho umwe mu bagabo arimo gukama inka ihagaze.

Igikorwa ngandurabukungu kandi gikoze mu buryo bwa kijyambere, gukura inkoko zikiri ntoya zigakura, harimo imishwi imaze iminsi mike ivutse yororewe ahantu hamwe bashyize hamwe amatara mu buryo bwa kijyambere.

Inzu y'ubworozi bw'inkoko aho harimo inkoko zitandukanye zisa umukara, ikigina ndetse n'izifite n'amabara atandukanye. Ni umushinga w'ubworozi aho umuntu akora umushinga akubaka inzu inkoko zizajya zibamo ndetse akamenamo n'ibyo kurya, aha inkoko zirimo ndetse haba harimo n'ibyo kurya mo imbere.

Inkoko ziri mu mabara atandukanye zororewe hamwe, harimo inkoko zisa umukara, ikigina ndetse n'izisa umweru, ni umushinga ngandurabukungu, urimo gukorwa mu nzu y'umuturage, aho yakoze umushinga ukubakira inkoko aho zizajya ziba ndetse akazishyiramo n'ibyo kurya mu nzu z'izo nkoko.

Inkoko nyinshi ziri ahantu hamwe byafatwa nk'umuntu wahisemo gukora ubworozi bw'amatungo kandi bugezweho, inkoko zi ahantu hamwe bateretsemo ibasi y'umuhondo irimo amazi aho zigenda zikanywa amazi ndetse n'imbere haba harimo n'ibiriyo, ni inkoko zikiri utwana.

Ubworozi bw'inkoko, umworozi ari kwita ku nkoko zikiri ntoya zitwa imishwi, ndetse arimo kuziha ibiryo mu kazu kazo kabugenewe, ni inkoko zikiri ntoya bigaragara ko zitamaze igihe kinini zivutse.

Inzu iri mu kiraro aho bayororera, hasi harimo ibyatsi bike bike, ni inka ifite icebe bisa nk'ho yabyaye cyangwa ikamwa, ifite iherena ku gutwi kandi ni inka iri ahantu idashobora gusohoka.

Ubworozi bw'ingurube, aho ingurube iri mu mwanya wayo, aho yororerwa, ingurube nziza ndetse irimo gutora ubusa, nta bwatsi bayihaye cyangwa ibyo kurya, ubworozi bw'ingurube bwororewe ahantu ha kijyambere.

Umuntu wayoye ibigori, ibigori ni umwe mu musaruro uturuka ku buhinzi aho byera byamara kwera bakabyanika bakabivungura, ibi ni ibigori by'imvungure baba bavunguye, ibivamo iyo bimaze kuma bajya kubishesha bakabikuramo ubugari cyangwa igikoma.

Umuceri uri mu mufuka, ukimara gusarurwa utaranyura mu ruganda ngo bawutunganye, uyu muceri neza utandukanywa n'ibishishwa, ahangaha iyo uvuye ku bawusarurira bahita bawujyana ku ruganda bagakuraho ibishishwa by'umuceri.

Umusaruro w'ibigori, ahantu hanini hameze nk'ikusanyirizo abahinzi bakusanyirizaho umusaruro w'ibigori, ibigori byanditswe kandi bitaravungurwa, biba bikiri kumwe n'ibitiritiri byabyo.

Abantu benshi harimo abagabo n'abana, harimo umugabo usutamye abandi barahagaze, bari bare imbere y'umusaruro w'ibigori. Ibigori byumye byavunguwe ni ibigori byifashishwa abantu bitandukanye, harimo nko gukoramo ubugari cyangwa gukoramo igikoma.

Umugabo uri mu musaruro w'ibigori, aho babyejeje bakabivovora, bakaba bari kubyanika. Ni ibigori byiza byifashishwa mu bintu bitandukanye aho iyo byeze babyanika, byamara kwanikwa byumye, bakabivugura bagatangira kubikoresha mugukoramo kawunga cyangwa igikoma.

Ishyo ry'inka ndetse n'umuvuzi w'amatungo urimo kuyitaho, yambaye ga arimo kuyikoramo kugira ngo arebe ikibazo inka ifite, muganga arimo kuyitaho kugira ngo inka ikomeze kugira ubuzima bwiza.

Abaganga b'amatungo bari kwita ku itungo barimo kuriha imiti ndetse rifite na serumu, ni itungo ryarwaye ndetse n'abaganga babiri bafite imiti bayifashe umunwa ndetse bafite n'igitabo bandikamo.

Ishyo ry'inka ziri ahantu habugenewe aho abaganga bahurira bakazitera imiti cyangwa bakazivura, umuganga ndetse n'umushumba begereye aho inka ziri, umuganga agiye kuzivura gutangira kuzivura.

Inka iri ahabugenewe aho bayitaho barimo kuyitera urushinge rw'imiti cyangwa barimo kuyikama, umuganga w'amatungo arimo kuyitaho agiye kuyivura, ndetse inyuma hari n'inka nyinshi zifite amahembe meza ari mu bwoko bw'Inyambo, ni abandi bantu b'abaganga batatu ndetse n'umushumba umwe.

Inka iri mu mwanya wabugenewe bitaho bagiye kuyivura, inka bayishyize ahantu habugenewe abaganga b'amatungo barimo kuyitaho bagira ngo bayivure ishobora kuba irwaye indwara cyangwa se bagira ngo bayihe ibiyongera kugira ngo igire ubuzima bwiza, ni abaganga babiri b'amatungo.

Abaganga b'amatungo aribo bita abaveterineri, bambaye ga bari kwita ku itungo rifite ikibazo ku ijosi, barifashe barimo kuribaga kugira ngo babashe kurikiza. Umuganga umwe afite icyuma arimo kuryitaho.

Abantu bambaye imyenda yabugenewe, bambaye imyenda ijyanye n'ubuvuzi bw'amatungo, inka zifite amahembe meza ajya kumera nk'ay'inyambo bagiye kuzikingira ziri mu kazu kabugenewe.

Inyamaswa nziza ziri mu mabara y'umweru n'umukara zitwa imparage, aho ziri kunywa amazi, ni inyamaswa ziba mu maparike ndetse zikaba zikurura ba mukerarugendo, ni inyamaswa z'agasozi ntago zoroherwa mu rugo.

Inyamaswa ebyiri z'inyoni zitwa amasigara zifite amabara umutuku, icyatsi, umuhondo, ubururu, ubona ziri mu giti cyatemweho cyatemweho ishami ahantu mu ishyamba hari ikirere kimeze neza.

Inyamanswa z'agasozi zitwa inkende, ni inyamaswa eshatu, imwe iri hakurya indi ihetse umwana wayo, hari n'abantu bari gutambuka bazicaho imbere.

Inyamaswa z'ubwoko bwinshi butandukanye harimo impara, imparage ndetse n'isha aho ziri mu Kagera zirimo gutembera ni kimwe mu bikurura ba mukerarugendo mu gihugu cyacu ndetse akaba ari n'inyamaswa zibereye ijisho.

Inyamaswa y'agasozi yitwa ihuku cyangwa igihomora. Aho ihuku ikunzwe kuvugwaho kurya imbeba cyangwa izindi nyamaswa z'agasozi.

Inyamaswa z'ubwoko butandukanye kandi ziri ahantu hamwe hameze nk'ahitwa mu Kagera aho abantu bajya kuzisura kugira ngo zikurure ba mukerarugendo, ni inyamaswa zirimo intare, inzovu, impala, imparage, ingwe, ibisiga.